Ni ikarita. Ikaba iri mu mabara y'umuhondo, umweru n'umukara. Ikaba yifashishwa mu kugura itumanaho. Ibi bikaba bifasha abaturage mu gutumanaho binyuze mu guhamagara ndetse n'ibindi.

Ni inzu. Ikaba iri mu mabara y'umuhondo. Iyi nzu ikaba icururizwamo ibikoresho by'itumanaho. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona, aho bagurira itumanaho ribafasha mu guhererekanya amakuru, mu buryo buboroheye.

Gukorera hamwe mu matsinda ndetse no kwizigamira mu bigo by'imari biciriritse, ni uburyo bwiza bwo kwiteza imbere. Ibi bifasha abaturage mu kubona umusaruro uhagije ndetse n'amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni inyubako nini ikaba ikikijwe n'ibiti bitoshye. Iyi nyubako ikaba yifashishwa n'abaturage bakorera hamwe mu matsinda. Ibi bikaba bibafasha mu buryo bwo kubona inyungu ndetse n'amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umugore wambaye imyenda iri mu mabara y'umweru, akaba arimo kwigisha abandi baturage uburyo bwo kwiteza imbere binyuze mu kuzigamira ndetse no gukorera hamwe mu matsinda.

Ni abaturage bakaba bicaye mu matsinda munsi y'ibiti, iruhande rwabo hakaba hari inyubako zigiye zitandukanye bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwiteza imbere bakoreye mu matsinda.

Ni ibiraro by'inkoko bikaba byubatse ku buryo bwa kijyambere, hakaba harimo umukozi ushinzwe kuzitaho, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku nkoko.

Ni icyumba kigari kikaba kirimo imifuka ipakiye ibinyampeke bigiye bitandukanye, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umusaruro uhagije binyuze mu gukorera hamwe mu ma koperative.

Ni abaturage bakaba bambaye imyenda iri mu mabara asa n'ubururu bakaba barimo kuganira ku buryo bwo gukorera hamwe no kwiteza imbere binyuze mu kwizigamira, ibi bikaba bizafasha mu kwiteza imbere.

Ni abaturage bakaba bahagaze mu ihema rinini, imbere yabo hakaba hari umugabo urimo gufotora umugore ufashe indangururamajwi, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwiteza imbere bakoreye mu matsinda.

Ni inyubako. Imbere yaho hakaba haparitse moto ndetse n'umuturage wahagaze. Iyi nyubako ikaba yifashishwa n'abaturage mu kwizigamira no kwaka inguzanyo. Ibi bikaba bibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyumba kikaba gikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye burimo ubw'ibinyobwa by'ubwoko bugiye butandukanye. Ibi bikaba bifasha abacuruzi mu kubona amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni amacupa maremare, akaba ari mu mabara agiye atandukanye, akaba arimo ibinyobwa by'ubwoko butandukanye, ibi bikaba byifashishwa mu kubinywa ndetse no kubicuruza.

Ni icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye birimo ifu, isukari ndetse n'ibindi. Ibi bikaba bifasha abacuruzi mu kubona amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyumba kikaba gikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye burimo umuceri, isukari, amavuta ndetse n'ibindi bicuruzwa, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubu ni icyumba kikaba gikorerwamo ubucuruzi bw'ibikoresho bigiye bitandukanye birimo imyenda amavuta ndetse n'ibindi ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona kubona umusaruro ukomoka ku bucuruzi ubafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni ubucuruzi bw'ibikoresho bigiye bitandukanye, birimo ibyifashishwa n'abanyeshuri mu kwiba nk'amakaramu n'ibindi. Ibi bikaba bifasha abacuruzi mu kubona amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyumba kikaba gikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye burimo imyenda ndetse n'ibindi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni isoko rikaba ririmo gucururizwamo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye birimo imyenda, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona aho bagurira imyenda ndetse bifasha abacuruzi mu kubona amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abaturage bari mu cyumba gikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye. Hakaba harimo gucururizwamo imyenda. Imbere yayo hakaba hari imashini byifashishwa mu buguzi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona amafaranga, abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyumba kikaba kirimo gukorerwamo ubucuruzi bw'ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo amavuta, amakayi ndetse n'ibindi, ibi bikaba bifasha umucuruzi mu kubona amafaranga amufasha mu kubona ubuzima bwe bwa buri munsi.

Ni icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo amafi, amavuta ndetse n'ibindi, ibi bikaba bifasha umucuruzi mu kubona umusaruro w'amafaranga umufasha mu kubaho mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ni icyumba kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo ameza, bakaba bafashisha mu bucuruzi bwa buri munsi. Ibi bikaba bifasha abacuruzi mu kubona amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Gucuruza ibicuruzwa by'ubwoko bugiye butandukanye, birimo ibyo kurya ndetse n'ibindi, bifasha abacuruzi mu kubona amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni inyubako y'urusengero. Iyi nyubako ikaba yifashishwa n'abaturage mu gusenga ndetse no kwiyegereza Imana. Ibi bikaba bibafasha mu gihe barimo gusenga Imana.

Ni abaturage bakaba bahagaze mu cyumba kigari, bakaba bari mu gikorwa cyo gusenga, ibi bikaba bibafasha mu kwiyegereza Imana binyuze mu gusenga, mu kuramya no guhimbaza.

Ni abaturage bicaye mu cyumba kigari, bakaba bari mu gikorwa cyo gusenga. Ibi bikaba bibafasha mu kwiyegereza Imana binyuze mu gukora amasengesho ndetse no kuramya Imana.

Ni inyubako nini y'urusengero iyi nyubako ikaba yifashishwa n'abakirisitu mu gusenga no guhimbaza no kuramya imana, ibi bikaba bibafasha mu kwiyegereza imana binyuze mu gusenga.

Ni abaturage bicaye mu ihema rinini. Bakaba bari mu gikorwa cyo gusenga. Ibi bikaba bibafasha mu kwiyegereza imana binyuze mu gusenga ndetse no kuramya.

Ni abaturage bakaba bari mu cyumba cy'igari cyifashishwa n'abaturage mu guseriga, bakaba bari mu gikorwa cyo gukoma amashyi bahimbaza Imana, Ibi bikababafasha mu kwiyegereza Imana binyuze mu gusenga.

Ni ikibumba kikaba kirimo umuganga wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Hakaba harimo umubyeyi ufashe umwana ukiri mutoya. Bakaba bari mu gikorwa cyo kumuvura. Ibi bikaba bibafasha mu kubona ubuvuzi bubanogeye.

Ni icyumba, kigari kikaba kirimo ameza, iruhande rwaho harimo intebe. Ibi bikaba byifashishwa n'abaje bagana izi nyubako mu buryo bwo kuyakira no kuruhuka. Ibi bikaba bibafasha mu kubona amafaranga binyuze mu gucuruza.

Ni inyubako ikaba imbere yayo hari imbuga ngari iparikitsemo ibinyabiziga by'imodoka, iyi nyubako ikaba yifashishwa mu kwakira no gucumbikira aba mukerarugendo, ibi bikaba bifasha ba nyirimazu mu kubona amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyumba kikaba kirimo intebe n'ameza bimeze neza, ibi bikaba byifashishwa n'abakiriya baje bagana inyubako zakira abantu mu buryo bwa rusange, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona amafaranga ndetse n'igihugu binyuze mu misoro.

Ni icyumba kikaba kirimo intebe, ameza ndetse n'intebe ziri mu bwoko busa n'umukara, ibi bikaba byifashishwa n'abakiriya baje bagana iyi nyubako yakira abantu mu buyro bwa rusange, ibi bikaba bibafasha mu kwicara ndetse no gutanga amafaranga abafasha kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyumba kikaba kirimo igitanda gishashe neza, iruhande rwacyo hakaba hari intebe ndetse n'utubati, ibi byumba bikaba byifashishwa n'abaza bagana iyi nyubako mu buryo bwo kuruhuka ndetse no kuhafatira amafunguro, ibi bikaba bifasha ba nyir'amazu mu kubona amafaranga abafasha mu kuba mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyumba kikaba kirimo igitanda gishashe neza mu mashuka asa n'umweru, iruhande rwacyo hakaba hari akabati gasa n'umukara. Ibi byumba bikaba byifashishwa n'abaje bagana icumbi mu buryo bwo kuruhuka.

Ni icyumba, kikaba kirimo ameza akikijwe n'intebe, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona aho barukurikira rufatira n'amafunguro amaze neza. Ibi bikaba bitanga amafaranga kuri ba nyiri inzu.

Ni abaturage bari mu isoko ririmo gucururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye birimo ibitoki, voka ndetse n'ibindi bakaba barimo kubihaha, ibi bikaba bifasha abacuruzi mu kubona amafaranga abafasha mu kubaho ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Ni isoko rikaba ririmo gucururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo imyenda, ibikapu ndetse n'ibindi, ibi bikaba bifasha abacuruzi mu kubona amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abaturage bahagaze mu isoko ririmo gucururizwamo ibicuruzwazwa bitandukanye birimo inkweto, imyenda, itumanaho ndetse n'ibindi, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ibicuruzwa bakeneye bibafasha mu kubaho kwabo kwa buri munsi.

Iri ni isoko rikaba ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo imyenda n'inkweto, hakaba harimo abaturage barimo kugura no kugurisha, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona amafaranga abafasha mu kuba mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abaturage bakaba bari kugenda mu isoko ririmo gucuruzwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo imyenda. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse n'amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni isoko rikaba ririmo gucururizwamo ubwoko bugiye butandukanye bw'ibitunguru. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi binyuze mu bucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye.

Ni isoko rikaba ririmo gucururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo ifu, umuceri ndetse n'ibindi bikaba bifasha abaturage mu kubona amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni inyubako, zikaba zubatse ku buryo bwa kijyambere, izi nyubako zikaba zikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye birimo kwakira abaje kurya ndetse no kuryama, ibi bikaba bitanga amafaranga kuri ba nyir'amazu.

Ni ikinyabiziga cya moto kikaba cyicayeho umuntu urimo kubara amafaranga, ibi binyabiziga bikaba byifashishwa n'abaturage mu gukora ingendo ziva ahantu zijya ahandi, ibi bikaba biboroheza mu ngendo.

Ni ibinyabiziga biri mu bwoko bwa moto, bikaba biri kugenda mu muhanda urimo amazi menshi, iruhande rwaho hakaba hari amashamba afite ibiti bya kimeza. Ibi binyabiziga bikaba bifasha abantu mu kuboroherereza mu gukora ingendo.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo ukaba urimo kunyurwamo n'ibinyabiziga bigiye gutandukanye birimo moto, ibi bikaba bifasha abaturage mu gukora ingendo ziva ahantu hamwe zijya ahandi ku buryo buboroheye.

Ni ibinyabiziga bigiye bitandukanye birimo moto n'imodoka bikaba byifashishwa n'abaturage mu gukora ingendo zigiye zitandukanye, ibi bikaba bibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibinyabiziga bigiye bitandukanye birimo amagare ndetse n'ibindi byifashishwa n'abaturage mu gutwara umusaruro ukomoka ku buhinzi. Ibi bikaba bibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abaturage bari kugenda ku binyabiziga bya moto bakaba bari gukoresha igikorwaremezo cy'umuhanda mugari wa kaburimbo, ibi bikaba bibafasha mu kwiteza imbere bakora ingendo ziva ahantu hamwe zijya ahandi ku buryo buboroheye.

Ni umuhanda ukaba ukozwe mu mabuye, ukaba urimo kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye birimo moto, iruhande rwabo hakaba hari amazu y'ubucuruzi, imihanda ikaba yifashishwa n'abaturage mu kubatwara no kugenda.

Ni abaturage bakaba bicaye ku magare aparitse iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwabo hakaba hari inyubako ifite ibyuma bikiri mu mabara y'ubururu. Ibi binyabiziga bikabafasha mu gukora ingendo ziva ahandi.

Ni abaturage bakaba bicaye ku binyabiziga bigiye bitandukanye birimo amagare. Ibi binyabiziga bikaba bibafasha mu gukora ingendo ziva ahantu zijya ahandi mu buryo bworoshye.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo ukaba urimo kunyurwamo n' ibinyabiziga bitandukanye birimo moto ndetse n'ibindi. Iruhande rwaho hakaba hari inyubako zifashishwa mu bucuruzi bigiye butandukanye. Ibi bikaba bifasha abaturage mukuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo bworoshye.